Iyi ni hoteli turi inyuma yayo kuri pisine, abantu babiri bari muri pisine, iruhande rwa pisine hari intebe umuntu aryamaho iyo avuye muri pisine arimo kuruhuka.

Aha ni mu rugo mu gikoni ubona ko umutetsi arimo guteka akata ibitunguru, ibikaroti inyanya, bureba, inyuma ye hari kwiziniyiri n'akabati karimo amateremusi.

Akazu ka emutiyene gatangirwamo serivisi zitandukanye za emutiyene harimo kubitsa, kubikuza, kugura amanite yo guhamagara, urabona ko hari n'abantu barimo umuntu waje guhabwa izo serivisi.

Inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'inzugi zifite ibaraya gusa umweru n'ibirahure by'umukara hasi hari amakaro ifite ibyumba bikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda.